Sosiyete ishinzwe ubwishingizi mu Rwanda MUA, iramamaza ibikorwa byayo, kugira ngo ibone abayigana. Inashishikariza abantu gushinganisha ibikorwa byabo, kugira ngo babe bizeyeko, ibikorwa byabo bifite mutekano, bishobora kugobokwa mu gihe k'ibibazo runaka.

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi ya Radiyanti, iramamaza ibikorwa byayo, inashishikariza abaturage, gushinganisha ibikorwa byabo kugira ngo bizere umutekano wabyo kubera ko ufite ubwishingizi ntago ajya ahangayika kubera ko ubwishingizi bumugoboka mu gihe cy'akaga.

Kampani ishinzwe ubwishingizi ya radiyanti yacu, iramamaza ibikorwa byayo, aho igira iti turi kumwe icyerekezo cy'inzozi zawe ibyishimo by'ubuzima bwawe n'umuryango wawe, akaba ari Kampani imenyesha abaturage ko bagomba gushinganisha ibikorwa byabo, hano mu Kampani ya radiyanti yacu aho ushobora no kwiyandikisha ukanze akanyenyeri, gatanu, gatatu rimwe urwego.

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi iramamaza ibikorwa byayo, inashishikariza abaturage gushinganisha ibikorwa byabo kugira ngozerebere umutekano wabyo, aho isaba abafite inyubako kuzishinganisha kugira ngo igihe habaye impanuka n'umutingito cyangwa se inkongi y'umuriro ubwishingizi buzabagoboke.

Amakuru ni kimwe mu byagize isi nk'umudugudugu. Aho umuturage asigaye amenya amakuru y'isi yose bitamusabye kwirirwa ava iwe murugo, aba yibereye iwe murugo areba amakuru kuri televiziyo cyangwa ayumva akamenya uko isi yose ihagaze.

Kampani ishinzwe ubwishingizi irimo iramamaza ibikorwa byayo, aho ihamagarira abafite ibinyabiziga gushinganisha ibinyabiziga byabo kugirango babe bizeye umutekano wabyo, ku buryo bagobokwa mu gihe byahuye n'inkongi y'umuriro cyanwa se byakoze impanuka.

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi mu Rwanda irimo iramamaza ibikorwa byayo kandi inashishikariza abantu bose gushinganisha ibikorwa byabo kugira ngo iyi sosiyete y'ubwishingizi izabagoboke mu gihe cy'ibyago runaka ibyago biratera n'ibiteguza.

Mu rwego rwo kwiteza imbere cyangwa guteza imbere ibikorwa byawe abacuruzi bose barashishikarizwa gukoresha uburyo bwo kwamamaza ibikorwa byabo kugira ngo bimenyekane kandi bimenwe n'abantu benshi bityo rero umucuruzi wese wagerageje gukoresha buno buryo bwo kwamamaza bimuzanira abakiliriya benshi kandi bikamufasha gutera imbere .

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi, irimo iramamaza ibikorwa byayo kandi isaba abaturage gushinganisha ibikorwa byabo kugira ngo bizere umutekano wabyo kuko uri mu bwishingizi ntahangayika kuko ubwishingizi bukugoboka mu gihe cy'ibyago.

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi Prime, iramamaza ibikorwa byayo inasaba abaturage gushinganisha ibikorwa byabo kugira ngo bizere umutekano wabyo, kandi ufite ubwishingizi ntago ajya ahangayika kubera ko ubwishingizi bumugoboka mu gihe cy'akaga.

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi iramamaza ibikorwa byayo kandi inashishikariza abaturage kuyigana bagashinganisha imitungo y'abo, ingibi bizabafasha gukora bafite icyizere ko imitungo y'abo ishobora no kugobokwa mu gihe yaba yahuye n'ibibazo runaka.

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi buritamu, iramamaza ibikorwa byayo inashishikariza abaturage kwishinganisha mu bijyanye no kwivuza, aho igira iti ''iyo ufite ubwishingizi bwo kwivuza uba wizeye umutekano w'ubuzima bwawe''.

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi iramamaza ibikorwa byayo, inashishikariza abafite ibinyabiziga, kubishinganisha kugira ngo bizere umutekano wabyo. Kubera ko iyo ikinyabiziga cyawe gifite ubwishingizi, kikangirika cya kigakora impanuka, ubwishingizi bukugoboka.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi kiramamaza ibikorwa byacyo kandi kinashishikariza abantu gushinganisha imitungo yabo kugira ngo bizere umutekano wayo kubera ko iyo imitungo yabo bayishinganishije ikagira ikibazo cyangwa se ikaza guhura n'izindi nzazane igobokwa.

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi mu Rwanda, aha ngaha irimo iramamaza ibikorwa byayo igira ngo abantu bayigane. Urabona ko aha ngaha isigaye itanga n'ubwishingizi bwo gushyingura. Aho ugenda uzigama amafaranga yawe make make, kugira ngo nugira ibyago ubwishingizi buzakugoboke mu bijyanye n'igikorwa cyo gutabara no gushyingura uwitabye imana.

Mu rwego rwo korohereza abakiriya bayo. Banke y'u Rwanda, yahuje sisitemu yayo na sisitemu ya telefoni aho bamwe b'abakiriya bayo, bitakiri ngombwa kwirirwa bajya gutonda umurongo kuri banki, bakeneye serivisi nk'izo kwizigama, kubikuza, kohereza amafaranga amwe ava kuri konti imwe ajya ku yandi kubera ko ibi ngibi ubikora ukoresheje telefone yawe.

Mu rwego rwo korohereza abakiriya bayo, banki y'u Rwanda yahuje sisiteme yayo na telefoni aho ubu ngubu bitakiri gombwa kujya kwirirwa utonze kuri banki utegereje serivisi nko kwizigama, kubikuza, kuvana amafaranga kuri conti imwe uyashyira ku yandi kuko ubungubu byaroroshye ibyo wabikorera kuri telefoni yawe.

Mu rwego rwo korohereza abakiriya bayo, banki y'u Rwanda yahuje ibikorwa byayo na gahunda za telefoni cyane cyane za mobayiro mane, aho ubungubu ushobora kubitsa, ukabikuza, ukohereza amafaranga ava kuri konti imwe ajya ku yandi ukoresheje telefone yawe.

Mu rwego rwo korohereza abakiliya bayo, banki y'u Rwanda yahuje ibikorwa byayo na telefoni aho ubu ngubu ushobora kuhasanga serivisi nko kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga ava kuri koti imwe ajya ku yandi byose bikozwe na telefone yawe utiriwe ujya gutonda umurongo ku cyicaro.

Mu rwego rwo gufata abakiriya neza, ni byiza ko abacuruzi bapfunyikira abakiriya mu bintu byiza bibashimisha, aho umukiriya aza ukamupfunyikira neza agatwara ibintu ku buryo bumworoheye, ibi ngibi bigufasha kuba yakishimira gukomeza gukorana nawe, ku buryo n'ubutaha azagaruka iwawe kuko wamuhaye serivisi imushimishije.

Iri ni rimwe mu maduka ya hano m'u Rwanda, yubatse neza kandi ari ahantu hisanzuye, aho yitaruye ari ku muhanda kandi akaba bigaragara ko ari inyubako zubatse ku buryo bugezweho.

Iyi ni butike icuruza imitako, cyane cyane icuruza imitako gakondo. Aho tuhabona nk'imiteme, ibyibo, amafoto ndetse n'ibindi byose bishobora gutakwa mu nzu cyangwa se mu nzu ndangamurage.

Iyi shusho iragaragaza butike icuruza amakositimu, n'amakositimu meza cyane aho bigaragara ko ari butike iteye imbere cyane kandi ikorera ahantu heza hisanzuye. Abaturage barasabwa kuyigana nabo bakihahira kuko ifite amakote meza cyane.

Iyi ni butike icuruza imyenda, aho bigaragara ko icuza imyenda myiza cyane kandi y'amoko yose cyane cyane imyenda yaba'abagabo, biragaragara ko ari butike ikorera ahantu heza kandi hafite isuku hasa neza cyane rwose, bityo rero bikaba byayifasha kuba yakigarurira imitima y'abakiriya.

Akagera motozi ni kampani icuruza ama modoka ikaba ikorera mu mujyi wa Kigali, akaba ari kampani icuruza imodoka nyinshi z'ubwoko bwinshi kandi butandukanye.

Imodoka ya yundayi imwe mu modoka zikunzwe cyane hano ku isi, akenshi na kenshi izi modoka byamaze kugaragara ko ari zimwe mu modoka zikunzwe cyane cyane n'urubyiruko, ndetse n'abandi kuko n'imodoka zibereye amaso.

Ni byiza gukorana n'ibigo by'imari bifasha abaturage binyuze mu kubaha inguzanyo bagatangira imishinga mito mito nabo bakiteza imbere, kandi bikazabafasha kugera ku iterambere bifuza.

Ni byiza ko insinga z'amashanyarazi zambukiranya umuhanda, zigomba kwegezwa hejuru muri metero nyinshi cyane, kugira ngo byirinde impanuka zo kuba zahanurwa n'ibinyabiziga birebire, nk'amakontineri, amamashini ndetse n'ibindi. Ababifite mu nshingano barasabwa kubikurikirana.

Ni byiza kwamamaza ibikorwa ukora kuko bigufasha kuba byamenyekana ku isi hose kandi bigakurura abakiliya kuko nk'aba ngaba uri kubona, bari kwamamaza kampani yabo ya yundayi kandi ibafasha kuba yamenyekana ikanagurwa ku rwego rwo hejuru.

Kampani icuruza imodoka za yundayi irimo iramamaza imodoka zayo icuruza, kandi byamaze kugaragara ko imodoka za yundayi ari zimwe mu modoka zikunzwe hano ku isi, cyane cyane mu bihugu bya afurika, muri aziya ndetse n'ahandi henshi hatandukanye.

Iduka ricuruza imodoka hano biragaragara ko ari iduka rinini cyane kandi ryagutse ricuruza imodoka nyinshi kandi nziza, imodoka zicururizwa hano biragaragara ko ari imodoka nshyashya zitigeze zikoreshwaho na rimwe.

Amafaranga ari mu bintu bikoreshwa cyane hano ku Isi, by'umwihariko amafaranga akunda gukoreshwa mu bucuruzi, mu mabanki ndetse n'ahandi. Mu mabanki ho akenshi na kenshi uhasanga imashini zibara amafaranga kubera ko aba ari menshi cyane bitakorohera umuntu kuyabara adakoresheje imashini.

Iki ni ikigo cy'imari gikorana n'abaturage, aho abakiliya bacyo bakigana bagiye kwizigama amafaranga yabo cyangwa se bagiye kubikuza ayo bazigamyemo mbere.

Hano hari imashini ikoreshwa mu kubara amafaranga, aho ifasha abacuruzi cyangwa ibindi bigo by'imari byose biba bifite amafaranga byatwara umwanya munini kuyabara ariko yo iyabara mu gihe gito cyane.

Iyi ni inote y'amafaranga magana atanu akaba ari inote ikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda, aya mafaranga akaba afite ikirangantego cy'inka eshatu zigaragara kuri aya mafaranga.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa mu bihugu byose byo ku isi kandi buri gihugu kigira amafaranga yacyo yihariye atandukanye n'ay'ibindi bihugu, kandi buri mafaranga y'igihugu aba ariho ikirangantego cyayo, kiyatandukanya n'andi mafaranga y'ibindi bihugu.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane hano ku isi, by'umwihariko amafaranga akoreshwa mu bucuruzi ndetse no mu mabanki, mu mabanki uhasanga imashini zibara amafaranga kubera ko aba ari menshi, kuyabara udakoresheje imashini byakugora.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane ku isi aho usanga amafaranga kenshi na kenshi aba ari mu bucuruzi, mu bigo by'imari, mu masoko ndetse n'ahandi cyane cyane by'umwihariko mu mabanki n'ahandi henshi hatandukanye.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane hano ku isi by'umwihariko amafaranga akunda gukoreshwa cyane cyane mu bucuruzi, mu bigo by'imari ndetse n'ibindi, aho buri gihugu akenshi kiba gifite amafaranga yacyo yihariye kandi afite ikirangantego cyayo gitandukanye n'ay'ibindi bihugu kandi buri gihugu amafaranga yacyo aba afite agaciro kihariye.

Imashini ibara amafaranga, akenshi na kenshi ikunda gukoreshwa n'abacuruzi banini cyane, cyangwa ibindi bigo by'imari biba bifite amafaranga menshi cyane, bitakorohera umuntu kuba yayabara akoresheje intoki. Imashini ni kimwe mu byoroheje ubwo buryo, aho ibara amafaranga ibihumbi n'ibihumbi, kandi mu gihe gitoya cyane.

Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima ubu aho umuturage ashobora kubitsa cyangwa akabikuza amafaranga ye kuri konte runaka akoresheje terefone ye ngendanwa bitamusabye kwigira ku kicaro.

Iri ni rimwe mu maduka acuruza amata hano mu Rwanda. Aho ricuruza amata ya Nyanza Milk Industry. Akaba ari iduka ricuruza amata kandi rikaba ricuruririza ahantu heza hagezweho, kandi rikaba rifite amafirigo manini cyane, akonjesha ayo mata kugira ngo abe ikivuguto.

Amaduka yose acuruza amata, arasabwa gukorera ibikorwa byayo ahantu hari isuku kandi bakareba neza ko ayo mata aho bayakura hizewe, ku buryo bataza guha abakiriya babo amata yangiritse cyangwa ashobora kubatera indwara.

Inyange milii zone ni kampani y'umushoramari hano mu Rwanda bita Sina na Gerard, aho amata yose akusanyirizwa agakorwamo za yahurutu ndetse n'ibindi. Urwo ruganda rukaba ari uruganda ruteye imbere cyane kandi rufite ibikorwa byagutse rukorera ahantu henshi mu gihugu hatandukanye.

Iri ni rimwe mu maduka acuruza amata akaba ari iduka bigaragara ko rikorera ahantu heza, hisanzuye kandi hari ibikoresho byiza nk'ibirahuri amasahani firigo ndetse n'ibindi, akaba ari iduka bigaragara ko ricuruza amata afite ubuziranenge.

Si byiza ko iduka ricuruza amata babifatanya no kuba bacuruza inzoga kuko amata asabwa gucururizwa ahantu heza hatuje hata urusaku kandi ahantu hafite isuku ihagije abacuruzi barashishikarizwa kudacuruza amata ngo bayacuruzanye n'inzoga barasabwa kuba amata bayacuruririza ahantu heza kandi hafite isuku ihagije.

Iri ni rimwe mu maduka acuruza amata, aho ari iduka rikorera ahantu heza kandi bigaragara ko rifite ibikoresho bifite isuku, kandi rikaba ritanga amata ku buryo bwizewe.

Iri ni rimwe mu maduka acuruza amata, akaba ari iduka rikorera ahantu heza hafite isuku kandi bigaragara ko hagutse ku buryo hakira abakiriya benshi, akaba ari iduka rifite firigo igezweho ku buryo ribasha kubikamo ayo mata ntiyangirike.

Iri ni rimwe mu maduka ya hano mu Rwanda acuruza amata meza, kandi agezweho akaba ari iduka bigaragara ko rikorera ahantu heza, kandi rikaba ricuruza amata afite ubuziranenge bitewe n'uko bigaragara, abona ko bafite ibikoresho byiza, ibirahuri batangiramo amata kandi ibirahure bifite isuku.

Inyange miliki zone ni kampani y'umushoramari hano mu Rwanda, umugabo bita Sina Gérard niwe watangije iyi kampani, aho akwirakwiza amata hose mu gihugu na za yahurute kandi akaba anayajyana hanze y'igihugu atunganyije neza.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byoroheje ubuzima, aho ubungubu kwishyura cyangwa kwakira amafaranga bisigaye bikorwa na telefoni ngendanwa, aho ubungubu bitakiri ngombwa kujya kwirirwa utonze umurongo ukeneye serivisi runaka, kubera ko haba kwakira cyangwa kohereza amafaranga byose bikorwa na terefone ngendanwa.

Kubera iterambere rigezweho; ubu byaroroshye, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, aho ubucuruzi busigaye bubera ku mbuga nkoranyambaga. Aho ubungubu umuguzi agenda akagura ibintu ku mbuga nkoranyambaga, akishyura akoresheje telefoni ye, maze ibicuruzwa bye bikamugeraho yibereye iwe mu rugo.

Ikoranabuhanga ryoroheje ubucuruzi kandi rikwirakwiza ishoramari ku isi hose, aho ubungubu ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga ukagura ibicuruzwa ukoresheje telefoni yawe ukishyura maze bikakugeraho iwawe mu rugo.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byakemuye ikibazo cy'imirongo wasangaga itonze ahantu runaka bategereje serivisi. Ubu ngubu aho byoroshye, aho wakwakira cyangwa ukohereza amafaranga ukoresheje terefone yawe ngendanwa, bitagusabye kwirirwa ujuragira ahantu aho ariho hose.

Ubu ikoranabuhanga ni kimwe mu byoroheje ubuzima aho ubungubu bitakiri ngombwa kujya kwirwa utonza imirongo utegereje serivisi runaka, aho ubungubu wakwishyura ukanakira amafaranga ukoresheje telefoni yawe ngendanwa.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byorohereje ubucuruzi ndetse n'ishoramari ku isi yose, aho ubungubu ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga ukareba ibicuruzwa bihari ugahitamo ibyo ushaka ukabyishyura maze bikakugeraho bitagusabye kwirirwa uva iwawe mu rugo.

Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima ndetse n'ubucuruzi hano mu Rwanda kubera ko ubu ngubu biroroshye, aho wakwishyura ukanakira amafaranga ukoresheje terefone yawe ngendanwa utiriwe uva iwawe mu rugo.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byazamuye umuvuduko w'ubucuruzi ku isi ndetse na hano mu Rwanda, aho ubungubu ugura ibintu ukishyura cyangwa ukakira amafaranga kuri telefoni hifashishijwe ikoranabuhanga.

Kubera ikoranabuhanga ubu mu Rwanda ubucuruzi bwaroroshye, aho umukiriya runaka ajya ku mbuga nkoranyambaga akareho ibicuruzwa runaka akeneye, akabigura yifashishije ikoranabuhanga, akishyura akoresheje telefoni ye, kandi ibicuruzwa bye bikamugeraho iwe mu rugo bitamusabye kuba yakigira ku iduka.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byoroheje ishoramari hano mu Rwanda ndetse no ku Isi hose, aho ubu ngubu bitakiri ngombwa kwishyura amafaranga mu ntoki, aho wishyura ukoresheje terefoni yawe ibicuruzwa byawe bikakugeraho.

Ikoranabuhanga ryoroheje ubucuruzi. Aho ubungubu usigaye ujya ku mbuga nkoranyambaga ukagura ibicuruzwa runaka, ukanishyura ukoresheje telefone yawe ngendanwa. Ibicuruzwa byawe bikakugeraho mu rugo, kandi bikakugereraho ku gihe. Ni byiza ko abacuruzi bose bitabira gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bucuruzi bwabo.

Mu rwego rwo kunoza ubucuruzi, umucuruzi wese arasabwa kugaragaza inyemeza bwishyu yaranguriyeho aho ibi igaragazwaho ibyo yaranguye, igiciro yabiranguye ndetse nayo yishyuye, kugira ngo hatyo hirindindwe amakosa yo gusanga hari imisoro imwe n'imwe inyerezwa n'abacuruzi.

Uru ni urupapuro rwerekana ibintu byose byakozwe muri buzinesi aho uru rupapuro ruba rugaragaza ibyaguzwe, ibyagurishijwe, ibyinjiye, ibyasohotse ndetse n'ibindi aho bigaragara ko rwateguwe n'amabaruramari maze byemezwa n'ushinzwe cyangwa uhagarariye ibijyanye n'ubukungu.

Uru ni urupapuro rugaragaza agaciro k'amafaranga uko kagiye kiyongera n'uko amafaranga yagiye atakaza agaciro mu gihe runaka. Hari aho ubona ko amafaranga agerageza akazamuka, hari naho byagaragaye ko ifaranga ryatakaje agaciro..

Ikigo gishinzwe imisoro hano mu Rwanda rura, kirashishikariza abasora bose ko bagomba gutanga umusaruro wa bibiri na makumyabiri nagatanu ku gihe, kugira ngo ibyo bibe byabarinda kwisanga mu byago byo gucibwa amande y'ubukererwe ndetse n'ibindi bitangwa hakurikijwe itegeko ryagenwe.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda RURA, kiramenyesha abasora bose, ko bagomba gutanga umusasoro wa bibiri na makumyabiri nagatanu ku gihe. Kugira ngo birinde kuba bazacibwa ibihano ndetse n'amande, aturuka ku bukererwe.

Ikigo gishinzwe imisoro hano mu rwanda rura kiramenyesha abasora bose ko bagomba gutanga umusoro wa bibiri na makumyabiri na gatanu bakawutanga ku gihe bakawutanga vuba kugira ngo birinde ibihano bishobora kuva mu bukererwe kandi ikigo gishinzwe imisoro kirakomeza gushishikariza abasora gukomeza kwandikisha ibikorwa byabo uko bigenwa n'amategeko .

Ikigo gishinzwe imusoro n'amahoro mu Rwanda rura, kirasaba abo bireba bose kwishyura umusoro wa bibiri na makumyabiri na gatanu kugira ngo birinde ibihano bashobora kuzacibwa cyangwa se amande batanga y'ubukererwe.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda rura kiramenyesha abacuruzi bose ko bagomba guha abakiriya fagitire ibiyemi, kuri buri gicuruzwa cyose baguze, kandi nawe mukiriya, wigenda utatse fagitire ibiyemu y'ibyo waguze.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane hano ku isi kandi amafaranga aba ari mu bwoko bubiri; hari amafaranga aba ari mu note hari n'amafaranga aba ari mu biceri, kandi buri gihugu kigira amafaranga yacyo yihariye atandukanye n'ay'ikindi gihugu.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane hano ku isi, kandi buri gihugu kigira amafaranga yacyo yihariye afite ikirangantego cyayo gitandukanye n'ay'ikindi. By'umwihariko buri gihugu amafaranga yacyo aba afite agaciro k'ifaranga ugereranyije n'uko icyo gihugu kimeze.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane hano ku isi kandi buri gihugu kiba gifite amafaranga yacyo yihariye ariho ikirangantego cyayo gitandukanye n'amafaranga y'ibindi bihugu, kandi buri faranga ryose ry'igihugu riba rifite agaciro runaka gatandukanye n'ay'ikindi gihugu.

Ifaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane hano ku isi, kandi buri gihugu kigira amafaranga yacyo yihariye atandukanye n'ay'ikindi gihugu. Buri mafaranga yose aba afite ikirangantego cyayo kiyatandukanya n'andi mafaranga y'ibindi bihugu, kandi buri faranga riba rifite agaciro bitewe n'igihugu cyaryo n'agaciro k'iryo faranga ry'icyo gihugu aho rigeze.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane hano kw' isi ,aho buri gihugu kigira amafaranga yacyo, amafaranga yihariye atandukanye nay'ikindi gihugu, kandi buri gihugu kiba gifite ikiranga ntego kiranga amafaranga yabo.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane ku Isi aho buri gihugu kigira amafaranga yacyo yihariye, kandi buri gihugu kiba gifite ikirangantego ku mafaranga yacyo atandukanye n'ay'ibindi bihugu, kandi buri gihugu amafaranga yacyo aba afite agaciro kihariye gatandukanye n'ay'ibindi bihugu bitewe n'aho agaciro k'ifaranga kageze.

Aya ni amafaranga y'igihugu cya Kongo akaba ari amafaranga y'inote y'ibihumbi bitanu, akaba agaragazwa n'ikirangantego cy'inyamaswa z'imparage.

Amafaranga ari mu bintu bikoreshwa cyane ku isi kandi buri gihugu kigira amafaranga yacyo aba ariho ikirangantego runaka bitewe n'ibyo igihugu cyahisemo kandi buri gihugu amafaranga yacyo aba afite agaciro runaka gatandukanye nay'ikindi gihugu.

Amafaranga ni kimwe mu bintu bikoreshwa cyane hano ku isi, amafaranga aba ari mu bwoko bubiri, aho usanga amwe ari inoti andi ari ibiceri, kandi buri gihugu kigira amafaranga yacyo yihariye, afite ikirangantego yacyo akiranga, gitandukanye n'ay'ibindi bihugu.

Mu bihugu byose byo ku Isi buri gihugu kigira amafaranga yacyo yihariye, kikaba buri gihugu gifite amafaranga ariho ikirangantego igihugu cyahisemo kandi buri gihugu kigira amafaranga atandukanye n'ay'ikindi.

Mu rwego rwo kurwanya ndetse no gukumira ibisambo byiyitaga abakozi b'ibiro by' ivunja n'ivunjisha, bakavunjira amafaranga abaturage ku giciro gitoya ubu hubatswe inyubako, zifasha abaturage kuvunjisha amafaranga yabo ku giciro nyacyo.

Mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ubujura, bwabaga bukozwe n'abantu biyitirira ibiro by' ivunja n'ivunjisha, ubu hubatswe ahantu henshi ibiro bishinzwe ivunja n'ivunjisha mu Rwanda, aho ubungubu byoroshye bitakigoranye kuba wabona aho uvunjishiriza amafaranga yawe.

Kubera gahunda yo gukumira no kurwanya abamamyi biyitaga abakozi b'ibiro by'ivunja n'ivunjisha maze bakiba amafaranga y'abaturage, leta y'u Rwanda yubatse buri hamwe ibiro bishinzwe akazi k'ivunja n'ivunjisha bityo kugira ngo bakumire icyo kibazo.

Mu rwego rwo gukemura ikibazo cyagaragaraga mu Rwanda cy'ubujura bukabije bitewe n'abantu biyitaga abakozi b'ibiro by'ivunja n'ivunjisha batuburera abaturage, bityo rero hubatswe inyubako buri hamwe zifasha abaturage mu kuvunja no kuvunjisha amafaranga yabo.

Ibiro bishinzwe ivunja n'ivunjisha, ni ibiro bikora akazi ko kuvunja amafaranga aho ujyana amafaranga y'igihugu runaka bakayakuvunjiramo amafaranga y'ikindi gihugu ushaka bitewe n'agaciro kayo.

Ibiro bishinzwe ivunja n'ivunjisha; ni ibiro bishinzwe gukora akazi ko kuvunja amafaranga y'abaturage, aho umuturage agenda afite amafaranga y'igihugu runaka, bakamuguraniramo amafaranga y'igihugu yifuza kandi ku giciro cyiza cyemewe.

Ubu ntibikogoranye kubawavunjisha mafaranga yawe mu Rwanda cyangwa ngo uhendwe n'abandi bose babikora mu buryo butemewe kuko hubatswe ahantu henshi hashinzwe ivunja n'ivunjisha, aho ugenda bakakuvunjira amafaranga yawe ku giciro kizwi kandi kigezweho.

Mu rwego rwo gukemura ikibazo no gukumira abamamyi biyitaga ab'ibiro by' ivunja n'ivunjisha maze bakiba abaturage babavunjira ku giciro gitoya, leta y'u Rwanda yubatse inyubako zishinzwe ako kazi k'ibiro by'ivunja n'ivunjisha kugira ngo byorohereze abaturage kubona uko bavunjisha amafaranga yabo.

Mu rwego rwo kwirinda ndetse no gukumira abamamyi biyitaga abakozi b'ibiro by'ivunja n'ivunjisha maze bakiba abaturage amafaranga yabo cyangwa bakabavunjira ku giciro gitoya, bityo rero Leta y'u Rwanda yubaka inyubako ishinzwe akazi k'ivunja n'ivunjisha, kugira ngo birinde ibyo biza by'abamamyi.

Ibiro bishinzwe ivunja n'ivunjisha hano mu Rwanda birasaba abaturage bose kujya bavunjisha amafaranga yabo ku biro byemewe, bakirinda gukorana n'amamamyi kugirango birinde ingaruka zishobora kuba babura amafaranga yabo.

Ubu byaroroshye kuba wabona aho uvungisha amafaranga yawe, ukavana amafaranga y'igihugu runaka ukayahinduramo amafaranga y'ikindi gihugu, cyane cyane nko mu Rwanda hari kiyosicye nyinshi zikora aka kazi k'ivunja n'ivunjisha, aho ushobora kuba ufite amashiriningi bakakuvunjira bakaguha amanyarwanda ndetse n'ayandi bikagenda bigenda gutyo.

Nibyiza kwirinda abatubuzi batubeshya ko bakorana n'ibiro by'ivunja n'ivunjisha hano mu Rwanda ni byiza ko wigira ku biro bishinzwe ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga kugira ngo wirinde ibyago ushobora guhura nabyo byokuba bakuvunjira ku giciro gitoya cyangwa bakakwibira amafaranga yawe.

Ibiro by'ivunja n'ivunjisha, ibiro bikora akazi ko kuvunjira, abaturage amafaranga yabo, aho umuturage azana amafaranga y'igihugu runaka bakamuvunjiramo amafaranga y'igihugu yifuza, bitewe n'agaciro k'amafaranga aho kageze.

Ibiro bishinzwe ivunja n'ivunjisha ni ibiro bikora akazi ko kuvunja amafaranga, amafaranga y'igihugu kimwe rukakivunshamo andi mafaranga y'ikindi gihugu bitewe n'agaciro k'iryo faranga kandi ibi byagabanyije ihohoterwa cyangwa se ubujura bwakorerwaga abaturage bibwa amafaranga yabo n'abandi bantu bababeshyaga ko bakorera ibiro by'ivunja n'ivunjisha cyangwa bakabavungirara ku giciro gitoya.

Aha ni hamwe mu hagurishirizwa ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, utubati, ameza ndetse n'ibindi, ariko by'umwihariko bakora intebe mu mbaho ku buryo bugezweho cyane, intebe ziri ku ruhando mpuzamahanga.

Iri ni rimwe mu maduka acuruza ibikoresho byo mu nzu by'umwihariko, utubati, intebe, ameza, ibitanda ndetse n'ibindi, kandi rikaba ricuruza ibintu bigezweho, nk'intebe ziri ku ruhando mpuzamahanga.

Aha ni ahagurishirizwa ibikoresho byo mu rugo, by'umwihariko ibikoze mu mbaho. Aho uhasanga intebe, utubati, ameza, ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu rugo, by'umwihariko ibikoze mu mbaho.

Aha ni hamwe mu hagurishirizwa ibikoresho byo mu nzu, harimo nk'utubati, intebe, ameza ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byose byo mu nzu, by'umwihariko ibikoresho bikozwe mu mbaho.

Hotel ni imwe mu nyubako zakira abantu benshi kandi zitanga serivisi nyinshi zitandukanye, aho wasanga amacumbi yo kuraramo pisine zo kogeramo uhasanga ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ariko by'umwihariko ibifite ubusitani bwiza cyane bufite amahumbezi bityo bituma bakurura abakiriya.

Hoteli ni imwe mu nyubako zinjiza amafaranga menshi kubera ko muri hoteli usangamo amacumbi yo kuraramo, ibiryo, ibinyobwa, pisine, ibibuga by'imyidagaduro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bituma abantu bahasanga kandi bakahakunda ku rwego rwo hejuru.

Iyi ni imwe muri hoteri nini cyane kandi zigezweho. Hotel iri ahantu hari ikirere cyiza kandi yisanzuye, aho ifite amahumbezi ndetse n'umuyaga ufasha abayigana kugira ubuzima bwiza ndetse no kuhakunda.

Hoteli imwe mu nyubako z'ubucuruzi, inyubako nini cyane kandi yakira abantu benshi batandukanye kandi iba yubatse ku buryo bugezweho, aho ifite serivisi nko gutanga ibiryo, ibyo kunywa, hari pisine, hari ibyumba byo kuraramo, hari ibyumba by'inama bikodeshwa ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Komvesheni seta iyi ni inyubako iherereye mu mujyi wa kigali rwagati; aho ari inyubako yakira ibikorwa byinshi bitandukanye inama ndetse n'ibindi; ariko akaba ari inyubako izwi cyane muri afurika kubera ko iri ku ruhando mpuzamahanga.

Ibi ni ibiro bya companyi ishinzwe ubwishingizi hano mu rwanda akaba ari kompani ifasha abaturage gushinganisha ibikorwa byabo kugira ngo bazagobokwe mu gihe runaka byahuye n'ikibazo cyangwa byangiritse bikaba ari ibiro bigaragara ko bikorera ahantu heza kandi byakira abantu benshi barenze umwe.

Ibi ni ibiro bya kAmpanyi ishinzwe ubwishingizi mu Rwanda, akaba ari ibiro biri ahantu heza hatuje hagaragara neza kandi hari imitako myinshi, bikaba ari ibiro bigaragara ko byiyubashye kandi byakira abantu ku buryo bwiza bugezweho.

Ibiro bya kompani ishinzwe ubwishingizi, irasaba abantu bose gushinganisha ibikorwa byabo, kugira babe bizeye umutekano wabyo, kandi irabamenyesha ko abashaka kugobokwa cyangwa se kwishyurwa ibyabo byangiritse, ko bagomba kubimenyesha mbere y'igihe kugira ngo babikurikirane hakiri kare.

Iyi ni sosiyete yo mu bwongereza yashinzwe ku itariki zirindwi Nyakanga bibiri na makumyabiri na gatatu. Isosiyete ikora ibikorwa byo guteza imbere porogaramu za mudasobw,a n'ikoreshwa cyane cyane mu ngo.

Ibi ni ibiro bya kampani ishinzwe ubwishingizi mu Rwanda, biragaragara ko ari ibiro biri ahantu heza, hatuje kandi byisanzuye kandi ni ibiro bigaragara ko byakira abantu barenze umwe kuko bigaragara ko bifite abakozi bakora benshi batandukanye.

Ibiro bya kampani ishinzwe ubwishingizi biramenyesha abaturage bose ko bagomba gushinganisha ibikorwa byabo kugira bizere umutekano wabyo, kandi urabona ko ari ibiro byiza bikorera ahantu heza kandi byakira abantu barenze umwe.

Banki y'ubwishingizi hano mu Rwanda, ni banki ikorana n'abaturage, aho umuturage azigamamo amafaranga ye akazagenda agobokwa mu gihe runaka bitewe n'icyo yashinganishije, ikaba ikorana na za aradibi, igakorana na za ekwiti banke ndetse n'aba ejenti b' irembo batandukanye, abaturage barasabwa kuyigana kugira ngo bashinganishe imitungo y'abo.

Tekana! Ni bwishingizi bw'imodoka yawe, aho imodoka yawe uyitangira amafaranga y'ubwishingizi, ahasigaye nawe ukazagobokwa igihe yahuye n'ibibazo, nk'igihe yakoze impanuka, cyangwa se yahuye n'inkongi y'umuriro.

Inguzanyo ni kimwe mu bifasha abantu kwikura mu bukene no kwiteza imbere, bityo rero ukaba usabwa kubanza gusoma amategeko n'amabwiriza y'iyo nguzanyo wabona uzashobora kwishyura iryo deni akaba aribwo usinya ko bakuguriza ayo mafaranga.

Muri Ekwiti banki ntibikigoranye gutera imbere kubera ko abakiriya ba Ekwiti banki, ibaha inguzanyo maze bakagenda nabo bakihangira imirimo maze bagatera imbere. Muri Ekwiti banki iterambere ryawe ni umwihariko wabo

Beyeride ni ikigo cya hano mu Rwanda gishinzwe gutanga inguzanyo by'umwihariko ku banyeshuri ba kaminuza, aho kibarihira amashuri yabo kikabaha n'amafaranga abatunga maze bakazacyishyura gake gake barashoje ayo mashuri yabo.

Inguzanyo ni kimwe mu bifasha abaturage kwikura mu bukene ndetse no kwihangira imirimo banki ya banki ya NSBA ikorera mu Rwanda iha abaturage inguzanyo bakubaka amazu bagakora n' ibindi bikorwa maze bakazayishyura nyuma.

BRD n'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo cyane cyane ku banyeshuri ba kaminuza aho kibarihirira kikabaha n'amafaranga abatunga bityo bakazacyishyura barangije amashuri yabo

BRD ni ikigo gitanga inguzanyo hano mu Rwanda by'umwihariko akaba ari ikigo gitanga inguzanyo ku banyeshuri ba kaminuza, aho kibarihira amashuri kikabaha n'amafaranga abatunga bityo bakazagenda bacyishyura gake gake bashoje amashuri ya bo.

Kwiteza imbere no kwikura mu bukene aho uguze amafaranga makeya ugakora ibikorwa bito bito bikaguteza imbere, bityo abaturage barasabwa kwishyira hamwe bakaka inguzanyo maze bagakora ibikorwa byabo kandi bikabateza imbere.

Inguzanyo, ni kimwe mu bifasha abaturage kwikura mu bukene, no kwihangira imirimo bityo abaturage barashishikarizwa kugana ibigo by'imari, bagahabwa amafaranga y'inguzanyo bagashaka imirimo bakora nabo bakikura mu bukene, ariko abaturage barashishikarizwa buri muntu wese gufata inguzanyo abona azabasha kwishyura.

Inguzanyo ni kimwe mu bifasha abaturage kwikura mu bukene no kwihangira imirimo, aho ubungubu bashishikarizwa gukorana n'ibigo by'imari, amabanki kugira ngo bafate inguzanyo batangire imishinga mito iciriritse kandi ibabyarira inyungu.

Hari ibigo byinshi by'imari bikorana n'abaturage, bitanga inguzanyo abaturage barasabwa gukorana n'ibigo by'imari bakajya bizigamamo imigabane yabo kandi bakaba banagurizwa igihe bakeneye amafaranga bakayakoresha bakazayayagarurira mu gihe runaka bongeyeho n'inyungu bemeranijwe.

Enisibi eyi ni banki itanga serivisi z'imari cyane cyane mu bihugu bya afurika y'iburasirazuba nka Kenya, Tanzania, Uganda n'ibindi byose bibarizwa mu uwo muryango, birasabwa kuyigana.

Inzu nini igeretse y'amacumbi yishyurwa ifite amabara y'umweru hasi yayo hari imitaka y'imikara ndetse n'intebe zizengurutse ,ubwogero rusange bukoreshwa n'abayigana mu kuruhura mu mutwe ndetse no mu myidagaduro.

Isoko ni kimwe mu bintu bihurirwamo n'abantu benshi ku isi, aho uhasanga umubare w'abantu munini cyane, bamwe baje kugurisha abandi baje kugura ibintu bitandukanye, harimo ibiribwa imyambaro ibikoresho by'isuku ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Isoko ni ahantu abantu bahurira, bamwe baje kugurisha ibicuruzwa byabo, abandi baje kugura ibyo bakeneye, mu isoko usangamo ibintu byinshi, imyambaro, imbuto ,ibikoresho by'isuku, ibiribwa, ndetse n'ibindi byose bitandukanye mu isoko urabihasanga.

Iri ni rimwe mu masoko ya kijyambere agezweho kandi iri soko biragaragara ko riri ku ruhando mpuzamahanga, ari isoko rya etage ari isoko ryiza cyane kandi ryubatse ku buryo bugezweho bubereye amaso.

Iri ni rimwe mu masoko ya kijyambere agezweho kandi meza cyane, akaba ari isoko riri kubakwa rya etaje kandi ryubatse ku ruhando mpuzamahanga rigaragara ko rizakira abantu benshi kandi rigakorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye.

Isoko rihurirwamo ibintu byinshi bitandukanye bigurishwa harimo imbuto, imboga ndetse n'ibindi ariko by'umwihariko isoko riba rigizwe n'ibiribwa, imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho byose bikenerwa gukoreshwa mu rugo.

Mu isoko hahurira abantu benshi batandukanye kandi baje mu bintu bitandukanye bamwe baje kugura ahandi baje kugurisha, kandi mu isoko haba hari ibintu byinshi imbuto, imboga, imyambaro, ibitenge by'amoko menshi kandi atandukanye.

Iri ni rimwe mu masoko yubatse neza ya kijyambere kandi agezweho ,akaba ari isoko rikorera mu nyubako ya etage, aho ryakira abantu benshi batandukanye kandi haba abaguzi ndetse n'abagurisha bose bakaba babamo, kandi bakoreramo neza rifite umutekano.

Mu mujyi, hagaragara abantu benshi bari gushaka amafaranga cyane cyane aho usanga abanyonzi, abamotari, abatakisimeni, ndetse n’abandi bose baba bashaka ubuzima

Isoko ni hamwe mu hahurira abantu benshi batandukanye kandi bazanywe na serivisi zitandukanye, bamwe baba baje kugura abandi baje kugurisha kandi urabona ko iri ni isoko ryubatse neza kandi rigezweho riri ku ruhando mpuzamahanga.

Isoko ni hamwe mu hahurira abantu benshi batandukanye, aho uhurira n'abagura, abagurisha, ndetse n'abandi bose, kandi mu isoko uhasanga abacuruzi bato bato bagifite ibikorwa bito baba bashakisha ubuzima, ndetse n'abandi bafite ibikorwa byagutse, nkaba nshishikariza abafite ibikorwa bitoya gukomeza gukora, n'abandi kandi bagasabwa gukura amaboko mu mifuka, bakihangira imirimo.

Hano haragaragara isoko ry'ibiribwa aho tuhabona imyanya, imiteja, amashu, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bifashishwa mu guteka ndetse n'ibindi.

Mu isoko uhasanga ubwoko bw'ibintu bitandukanye aho uhasanga n'ibitenge by'amabara yose kandi bigezweho by'umwihariko haba hari ibitenge bibereye amaso kandi ku giciro cyiza.

Isoko ni hamwe mu bahurira abantu benshi kandi uhasanga ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'imbuto, ibiribwa ndetse n'ibindi by'umwihariko isoko wahasanga imboga n'imbuto byifashishwa mu guteka ndetse no mu bindi bikorwa.

Sosiyete y'itumanaho rya Emutiyeni, mu rwego rwo korohereza abakiliriya bayo, yashyize kiyosike buri hamwe, aho ushobora kuhasanga ibiro muri buri duce twose tw'igihugu, byagufasha kubona serivisi ukeneye nko kubitsa, kubikuza, gukora swapu ndetse n'izindi serivisi zose waba ukeneye.

Iyi shusho iragaragaza ko ari umucuruzi ufite abakiriya benshi bamugana ariko agerageza kubaha fagitire ya ibiyemu, bityo n'abandi bacuruzi bose barashishikarizwa kujya baha fagitire ya ibiyemu abakiriya babo.

Kampani ishinzwe itumanaho rya emutiyene, yaguye ibikorwa byayo ubu aho wagera hose mu gihugu wasanga umwajeti wa emutiyene, aho uhabona serivisi zose ukeneye; nko kubitsa, kubikuza, kugura amayinite, kohereza amafaranga, ndetse n'izindi serivisi zose wakenera urazihasanga.

Ubu byaroroshye aho agenti bose ba Emutiyeni ushobora kuhasanga serivisi ikeneye nko; kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga, kugura umuriro, kwishyura amazi, kwishyura ubwishingizi ndetse n'ibindi byose ushobora kubikorera ku umu agenti wa emutiyeni bitagusabye kujya ku icyicaro.

Ubu mu bice byose by'igihugu wahasanga abajenti ba emutiyene cyangwa se ba eyateri, aho ubungubu ushobora kwigurira amayinite, ukishyura amazi, ukishyirara umuriro, ukabitsa, ukabikuza byose bikozwe n'abajenti bakorera muri utwo duce.

Mu rwego rwo korohereza abakiriya bayo ikigo cya Airtel ndetse n'ikigo cya MTN bashyize buri hamwe abagenti babo ushobora kuhasanga serivisi zitandukanye nko kohereza amafaranga, kugura amayinite, kwishyura amazi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Mu rwego rwo korohereza abakiriya bayo; ishami rya mtn ryashize abageti bayo buri hamwe; aho mu byaro hose ushobora kuhasanga abageti ukabona serivisi ukeneye; harimo nko kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga, kugura amayinite ndetse n'ibindi.

Mu rwego rwo korohereza abakiliriya bayo emutiyeni yashyize abajenti buri hamwe aho ushobora kuhasanga serivisi bitagusabye kwirwa ujya ku kicaro, aho ushobora kuyasanga serivisi zirimo kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga ndetse n'izindi serivisi nyinshi zitandukanye.

Mu bice byose by'igihugu ahenshi wahasanga aba ajenti ba emutiyeni cyangwa se ba eyateri ,aho ushobora kuba wahabona serivisi nko kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga, kugura amayinite ndetse n'ibindi byose bikorwa n'abo bajenti wabihasanga.

Ikoranabuhanga ryoroheje ishoramari ndetse n'ubucuruzi ku isi yose ndetse na hano mu Rwanda, kubera ko ubu ngubu ujya ku mbuga nkoranyambaga ukagura ibicuruzwa ukoresheje telefoni yawe bikakugeraho iwawe mu rugo.

Ikoranabuhanga ryorohereje ubucuruzi hano ku isi, aho ubungubu ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga ukareba ibicuruzwa biri kugurishwa, ugahitamo icyo ushaka ukacyishyura ukoresheje ikoranabuhanga, kikakugeraho iwawe mu rugo.

Ikoranabuhanga ryoroheje ubucuruzi ndetse n'ishoramari ku isi yose ,kubera ko uba ushobora gufata telefoni yawe wibera iwawe mu rugo ukajya ku mbuga nkoranyambaga ukagura aho ibicuruzwa byose ushaka ,ukishyura ukoresheje telefone yawe maze bikakugera iwawe mu rugo aho waba uri hose.

Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima kandi rikwirakwiza ubucuruzi n'ishoramari ku isi hose, aho ubungubu ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga ukareba ibicuruzwa bihari ugahitamo ibyo ushaka ukabyishyura, bikakugeraho iwawe mu rugo.

Compani nyinshi hano mu Rwanda zimaze gutera, imbere aho ubungubu usigaye ugura ibintu onoline cyangwa ugatumizaho ibintu bikakugeraho aho ngaho mu rugo, wibereye mu rugo ibicuruzwa byawe bikakugeraho kandi ku gihe.

Ishoramari rikorera ku mbuga nkoranyambaga ryaragutse rikorera mu bihugu byose byo ku isi, aho ubu ryagezewe mu Rwanda, aho ushobora gufata telefoni yawe cyangwa mudasobwa, ukajya ku mbuga nkoranyambaga ukareba aho ibicuruzwa runaka ukeneye, ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga maze bikakugeraho wibereye iwawe mu rugo.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byafashije igihugu mu gutera imbere mu bijyanye n'ubucuruzi. Binyuze mu bucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Aho ukoresha telefone yawe, ukajya ku mbuga nkoranyambaga, ukareba ibicuruzwa bihari, mu gihugu runaka, ukishyura, maze bikakugeraho iwawe, mu gihugu cyawe.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byoroheje ubucuruzi ndetse n'ishoramari mu Rwanda ndetse no ku Isi hose, aho ubu ngubu ushobora kugura igicuruzwa kiri hanze y'igihugu ukacyishyura ukoresheje telefoni yawe maze kikakugeraho iwawe mu rugo. Urugero: Ushobora kugura imodoka ya twiga ikava hanze y'igihugu ikakugeraho iwawe mu rugo, utiriwe ujya hanze y'igihugu kuyigurira.

Amaduka menshi hano mu rwanda yateye imbere; aho usanga amaduka amwe n'amwe acuruza ibikorwa byayo ku mbuga nkoranyambaga, aho bitakigoye aho ujya kuri website yabo, ukaba wahasanga ibikorwa runaka bakora, ukaba wagura igicuruzwa cyawe, ukishyura ukoresheje telefone yawe maze kikakugeraho aho ngaho iwawe mu rugo bitagusabye kwirirwa wica akazi ngo ujye kuba wabireba kuri tere.

Ubu ku isi hose ubucuruzi bwaroroshye bitewe n'ikoranabuhanga. Kubera ko uba ushobora kujya ku mbugankoranyambaga ukagura ibicuruzwa runaka wihitiyemo ukabyishyura maze bikakugeraho iwawe utiriwe uva mu rugo.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bintu by'ingenzi byazamuye ubucuruzi n'ishoramari hano ku isi. Aho ubungubu usigage ugura ibicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga, ukajya ku rubuga runaka, ukarebaho ibicuruzwa ukeneye, ukabyishyura, maze bikakugeraho wibereye iwawe mu rugo.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu nkingi za mwamba zoroheje ubucuruzi, aho ubu ngubu usigaye ujya ku mbuga nkoranyambaga, ugahitamo ibicuruzwa ushaka ukabyishyura ukoresheje imbuga nkoranyambaga, maze bikakugeraho iwawe mu rugo.

Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima, aho usigaye uhahira ibintu byose ku mbuga nkoranyambaga, aho ufata telefone yawe ukajya ku mbuga nkoranyambaga, ukareba aho ibicuruzwa runaka bihari biri kugurishwa, ugahitamo ibyo ugura, maze bakabikugezaho iwawe mu rugo, hari kampani nyinshi zikora ibyo bintu zicuruza zifashishije imbuga nkoranyambaga.

Iyi ni imwe mu nyubako, igurishwa na kampani ya Real State Investment. Akaba ari inyubako iri ahantu mu cyaro, itegereye umuhanda, ariko yubatse ku buryo bugezweho, kandi ifite igipangu kinini, ndetse iri ahantu hisanzuye, hafite umutekano.

Iyi ni imwe mu nyubako zigurishwa na compani ya Riyo siteti invesitimenti, ikaba ari inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa agaciro k'amafaranga angana na miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda, ikabafite ahantu ho guparika imodoka yawe hanini kandi hagutse.

Iyi ni imwe mu nyubako zigurishwa na kompani Real Estate investment, akaba ari inyubako iherereye mu nkengero z'umujyi akaba ari inyubako yubatse neza kandi igezweho ubashaka bahamagara kuri nimero batanze zikurikira arizo zeru, karindwi, umunani, makumyabiri na gatanu, cumi nicyenda, magana abiri mirongo ine.

Iyi ni imwe mu nyubako zigurishwa na company real state investament, akaba ari inyubako bigaragarako ari inyubako igezweho yubatse neza kandi iri ahantu heza. Ikaba yubatse ku buryo bugezweho kandi iteye amarangi asa neza.

Iyi ni imwe mu nyubako igurishwa na kampani ya Riyo sitete imvesitimenti, akaba ari inyubako iherereye mu Mujyi wa Kigali, akaba ari inyubako nziza cyane yubatse neza, ifite imbuga nini yisanzuye kandi ikoze neza, ikaba igurishwa agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni magana abiri mirongo ine.

Iyi ni imwe mu nyubako zigurishwa na kampani ya riyo siteyiti imvesitimenti, akaba ari inyubako ya etaje igeretse kandi akaba ari inyubako yubatse neza ku buryo bugezweho, bigaragara ko iyi inyubako iri ku ruhando mpuzamahanga bitewe n'ukuntu yubatse kijyambere.

Iyi ni imwe mu nyubako ikodeshwa na kampani ya Riyo siteti imvesimenti. Akaba ari inyubako igezweho kandi yubatse neza, ifite imbuga ngari kandi ikoze neza. Akaba ari inyubako ifite ibyumba bine byo kuraramo. Iyi nyubako ikaba ikodeshwa agaciro k'amafaranga y'u Rwanda, ibihumbi magana abiri mirongo itanu.

Iyi ni imwe mu nyubako igurishwa na kampani ya royo sitati imvesitimenti, akaba ari inyubako iri mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimironko, ikaba ifite ibyumba bibiri byo kuraramo, ibyumba bibiri byo kogeramo kandi ikaba yishyuzwa agaciro k'amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi maganane ku kwezi.

Iyi ni imwe mu nyubako zigurishwa na kampani ya Real State Investiment. Ariko akaba ari n'inyubako ushobora gukodesha. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu. Akaba ari inyubako nziza iri ku muhanda, kandi ari inyubako igezweho.

Hano hari inzu ikodeshwa aho umupangayi yishyura ibihumbi ijana mirongo itanu inyubako harimo icyumba kimwe ikagira ubwiherero bumwe, kandi ikindi iyo nyubako iri ku muhanda wa kaburimbo.

Iyi ni imwe mu nyubako ikodeshwa na kampani ya riyo siteyiti invesitimenti akaba ari inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali i Gikondo iyi nyubako ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ikagira icyumba kimwe cyo kongeramo ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo itanu buri kwezi.

Kampani ya riyo siteti imvesitimenti ni kampana ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, iyi kampani akaba ari kampani igurisha amazu, igurisha ibibanza, ikodesha ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bikorwa n'iyi kampani.

Iyi ni imwe mu nyubako igurishwa na company ya Real state investment, akaba ari inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, akaba ari inyubako yishyuzwa amadolari igihumbi, akaba ari inyubako igaragara neza kandi ari inyubako igeretse.

Iyi ni imwe mu nyubako, igurishwa na kampani ya Real State Investment. Akaba ari inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali Kabeza. Ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ibyumba bitatu byo kogeramo, kandi ikaba ari inyubako iri ku muhanda.

Iyi ni imwe mu nyubako ziri kugurishwa na kampani ya riyo siteti imvesitimenti, akaba ari inyubako iherereye ku muhanda yubatse neza kandi bigaragara ko ari inyubako yubatswe ku buryo bugezweho.

Iyi ni inzu igurishwa muri zimwe zigurishwa na kampani ya riyo siteti invesitimenti, akaba ari inzu ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ikaba ifite ubwogero bubiri, kandi ikindi ikaba yishyurwa amadorari igihumbi ku kwezi.

Kampani ya Real state investament. Ni kampani ya hano mu Rwanda, ikora akazi ko gukodesha amazu, kugurisha amazu, kugurisha ibibanza, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, bikorwa n'iyi kampani.

Hano hari ibyumba bitatu byo kuryamamo ibyumba byiza cyane, biherereye hano i Kigali Rebero aho munsi umwe hishyurwa amadolari ijana yonyine.

Iri ni iduka ricuruza imyambaro, aho harimo imyambaro y'abagore imyambaro y'abagabo, ndetse n'imyambaro y'abana akaba ari iduka bigaragara ko ryateye imbere, ricururiza ahantu hanini kandi hagutse, ikindi kandi rifite n'amakote y'abagabo.

Mu masoko menshi uhasanga ibiribwa bicuruzwa by'amoko menshi atandukanye. By'umwihariko, haba hari imboga n'imbuto z'amoko menshi atandukanye kandi ku giciro cyiza.

Iri ni rimwe mu maduka ya hano mu Rwanda akomeye kandi acuruza ibintu byinshi cyane, by'umwihariko rikaba ricuruza amavuta y'ubwoko bwose ayo mu musatsi, ayo mu mutwe ndetse n'ayo kwisiga ku mubiri kandi amavuta meza agezweho.

Aya ni amwe mu maduka agezweho cyane hano mu Rwanda ,amaduka yubatse neza kandi manini yagutse ku buryo byoroshye kuba wacururizamo ibintu byinshi bitandukanye kandi hakaba hakorerwa ubucuruzi bugezweho buri ku ruhando mpuzamahanga.

Iri ni rimwe mu masoko akomeye cyane hano mu Rwanda kandi ahuriramo abantu benshi hacururizwa n'ibintu byinshi bitandukanye, hano hari nk'ibikapu, imboga, imbuto ndetse n'ibindi byose byaje kugurishwa mu iri soko.

Iri ni rimwe mu maduka manini cyane hano mu Rwanda. Aho ari iduka, usangamo imyambaro y'ubwoko bwose, ibitambaro, ndetse n'indi byose bitandukanye, wakwifashisha, utaka mu nzu, cyangwa se wambara neza.

Iri ni rimwe mu maduka manini cyane hano mu Rwanda, iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, by'umwihariko aho uhasanga ibikapu by'abadamu ndetse n'inkweto zabo kandi akaba ari iduka rihuriramo abantu benshi baje kugura ibikoresho bakeneye.

Iri ni rimwe mu maduka ya kijyambere agezweho, uko bigaragara ni iduka riri ahantu heza, ryisanzuye kandi rinini ryagutse, rikoresha ikoranabuhanga mu bucuruzi bwaryo, aho ushobora gusanga rinacuruza ibicuruzwa byaryo ku mbuga nkoranyambaga.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho byo mu nzu bigezweho kandi bikoze neza, by'umwihariko ibikoze mu mbaho, harimo nk'intebe utubati ibitanda, ameza ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Mu rwego rwo kunoza imibereho myiza y'abaturage, abaturage bose barashishikarizwa kugana gahunda ya Ejo Heza kugira ngo bateganyirize izabukuru. Kubera ko umuturage wese watanze Ejo Heza iyo ageze mu zabukuru ahabwa amafaranga amufasha kubaho neza mu gihe cye cy'izabukuru.

Bitewe na gahunda yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage, leta y'u Rwanda yashishikarije abaturage bose gutanga mituweli kugirango bagire ubwisungane mu kwivuza, kuko ufite mituweri ntarembera mu rugo.

RSSB ni ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ubwishingizi bw'imibereho myiza y'abaturage iki kigo kikaba gikora ibi bikurikira ubwishingizi bw'ubuvuzi ,ishoramari kugenzura no gukusanya imisanzu ndetse n'ibindi .

Abaturage b'u Rwanda, barashishikarizwa gutanga mituweri nk'ubwisungane mu kwivuza kubera ko ufite mituweri ntarembera mu rugo, ajya kwa muganga kwivuza, bakamuvurira kuri mituweri ku mafaranga make cyane.

Bitewe na gahunda yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage, leta y'u Rwanda yashishikarije abaturage gutanga mituweri kugira ngo ibi ngibi bibe bifasha umuryango kwizera ubuzima bwabo ndetse n'umutekano wabo, kuko mituweri igufasha kwivuza no kutarembera mu rugo.

Kubera gahunda y'igihugu cy'u Rwanda, bashyize imbaraga mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage, binyuze mu gushishikariza abaturage gutanga mituweri. Aho umuturage wese watanze mituweri, atarembera mu rugo kubera ko aba afite ubwisungane mu kwivuza.

Ejo heza ni gahunda ya leta y'urwanda yashyizweho kugira ngo abaturage bajye batanga amafaranga make make uko bashoboye maze azabagoboke mu gihe cy'izabukuru ejo heza yemerewe buri munyarwanda wese hatagendewe ku kigero cy'imyaka runaka.

Ejo heza ni serivisi ikorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda aho umuturage azigama amafaranga ye make make bitewe n'ubushobozi afite, bityo ayo mafaranga akazamugoboka ageze mu za bukuru atagishoboye gukora.

Mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukangurira abaturage kwizigama amafaranga make make ku yo bakorera, kugira ngo barusheho kugira icyizere cy'ejo hazaza no kuba bateganyiriza iminsi iri imbere.

Mituweli ni ubwisungane mu kwivuza. Aho umuturage yishyurira mituweli we n'umuryango we wose, maze urwaye akajya ajya kwivuza, akoresheje mituweli. Bityo n'utarwaye, amafaranga yatanze, akazafasha mu kuvura undi muntu runaka, warwaye nawe wari watanze mituwele.

Ikigo gishinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda, arasesibi. Cyashyizemo imbaraga mu gushaka icyateza imbere umuturage, n'icyatuma agira ubuzima bwiza. Bityo rero cyazanye gahunda ejo heza, aho umuturage yizigama amafaranga ye make make bitewe n'uko ashoboye, maze ayo mafaranga akazagoboka uwo muturage ageze mu zabukuru.

Supa maketi, ni rimwe mu maduka y'ubucuruzi manini cyane akorera mu nyubako nini cyane kandi yisanzuye aho usangamo ibintu byinshi bitandukanye by'umwihariko harimo n'ibinyobwa nk'amafanta, amaji, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Supa maketi ni amwe mu maduka manini cyane, akenshi na kenshi akunze kuba aherereye mu mujyi. Urabona ko nk'iyi supa maketi ari nini cyane ku buryo bushoboka. Igaragara ko icuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye, kandi bigaragara ko ari supa maketi iri mu nyubako nziza igezweho.

Supamaketi ni rimwe mu maduka manini cyane, aho wasangamo ibiribwa n'ibinyobwa by'amoko yose kandi akaba ari iduka riba rifitemo umwanya mugari ku buryo biba byoroshye kuba wacishamo n'ibintu ubisunika.

Supamaketi ni rimwe mu maduka manini cyane kandi yagutse acuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'ibinyobwa by'amoko yose, ibiribwa ndetse n'ibindi bintu byose wabihasanga.

Supamaketi, ni rimwe mu maduka manini cyane ariko agaragaramo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, aho ushobora gusangamo ibiribwa, ibinyobwa, ndetse n'ibindi byose byinshi kandi byujuje ubuziranenge.

Supamaketi ni amwe mu maduka manini cyane acuruza ibintu byinshi bitandukanye kandi akaba yagutse afitemo umwanya uhagije, akaba wasangamo ibiribwa ndetse n'ibindi byose by'ibinyobwa bitandukanye.

Akenshi na kenshi supermarket ziboneka mu mijyi kandi akaba ari naho ushobora kubona icyo ari cyo cyose wifuza kandi ku giciro cyiza kandi ziba zizewe kuko zicuruza ibintu bifite ubuziranenge.

Supamaketi ni rimwe mu maduka manini cyane, aho usanga ari iduka rinini, ryagutse kandi ririmo ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'ibiribwa, ibinyobwa, ndetse n'ibindi bikoresho byose bigezweho.